Ubucuruzi bw'imiti n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi bworozi bigiye bipanze mu tubati ku buryo butandukanye, byorohereza ubicuruza kubona ibyo ahereza umukiriya mu gihe abimusabye kugira ngo serivisi yihu...

Umugore w'umuhinzi uri mu murima, aho ari kwita ku bihingwa bye abibagarira agira ngo bikure neza bimuhe umusaruro yifuza.

Igiti kiriho imbuto z'umwembe, zenda kwera ziri kunaga zifashishwa n'abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza butagira indwara.

Umurima uhinzemo ibihingwa n'intoryi, insina ndetse n'ibiti birebire, bifasha umuhinzi kugira umusaruro w'ibyo yahinze, akabasha kubirya ndetse no kubigurisha, akiteza imbere, akagira n'ubuzima bwiza.

Imbuto z'avoka zisa icyatsi ziri mu gikoresho cyabugenewe, zifashishwa n'abantu mu kurya kugira ngo bongere intungamubiri ndetse banirinde indwara.

Ikiganza cy'umuntu ufashe ibihingwa mu ntoki, arimo kureba niba umusaruro wakuwe mu byo yahinze wujuje ubuziranenge, kugira ngo abashe kuwujyana ku isoko cyangwa awutunganyemo ibyo kurya bimeze neza.

Agakoresho kabugenewe gasa umweru karimo ifu gateretse ku meza, hacometsemo agapapuro kagaragaza ibijyanye n'amakuru y'iyo fu ndetse n'amafaranga yaguzwe nyemezabwishyu, impande yaho hari ibikoresho byifashishwa n'umucuruzi mu gutanga serivisi.

Umukobwa uri mu murima w'ibigori urimo kubisarura, yafashe ikigori agiye kuhagura yishimye abona ko anezerewe n'umusaruro waturutse mu bihingwa yahinze by'ibigori.

Ubutaka buhinzemo ibihingwa bitandukanye, ndetse bukikijwe n'ibiti birebire, abahinzi barimo kubyitaho, babihingira kugira ngo bazabone umusaruro bifuza kubona.

Umuhungu uri mu murima uhinzwemo urutoki ndetse n'amateke, arimo kwita ku iteke kugira ngo bikure neza bitanga umusaruro yifuza abasha kubona ibyokurya bimuhagije.

Ibirayi byinshi birunze hamwe, bitegerejwe ko abakiriya baza kubigura, bakabasha kujya kubirya bakagira ubuzima bwiza ndetse n'ubicuruza akabona amafaranga y'inyungu.

Ubucuruzi bw'ibiryo birimo amashaza, ingano, n'ibishyimbo, zigiye zipanze bitewe n'ubwoko, buri bwoko umuntu yakoresha akabugenewe, ndetse buri gafuka gafite agapapuro kagaragaza ubwoko bw'ibirimo, ndetse n'ibiciro biri gutangirwaho.

Mu isoko ricururizwamo ibirayi bigiye bipanze mu byiciro bitandukanye, kugira ngo bize gufasha umucuruzi ndetse n'umuguzi, kumenya aho agurira. Harimo abacuruzi bategereje abakiriya kugira ngo babagurishe ibirayi.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo insina, isombe, ndetse n'ibiti birebire bitanga akayaga, ndetse bitanga umusaruro w'ibihingwa, abantu bakoresha mu mibereho ya buri munsi.

Ibiseri by'imineke bya kamara ihiye birambitse ku nkoko, biza gufasha umuntu kubizitwara akazishyikiriza ahakwiye kugira ngo bazirye bagire ubuzima bwiza.

Umuhinzi uri mu murima yahinzemo ibihingwa bitandukanye by'ibigori ndetse n'inyanya ari kubisasira abikora neza kugira ngo bizatange umusaruro yifuza kugeraho.

umwana uri kumwe na papa we, bari mu murima w'inyanya, aho bari kuzitaho bakuramo ibyatsi bitari ngombwa kugira ngo zibashe gukomeza gukura neza, zitanga umusaruro w'icyo bazitezeho.

Ku isoko ricururizwaho imbuto ndetse n'imboga, aho imbuto nk'amaroji, ibinyomoro, amatunda, inanasi n'izindi zigiye zipanze mu mifuka, uyu mufuka n'ubwoko bw'urubuto bitegerejwe ko abacuruzi n'abaguzi babasha kuzigurisha neza.

Imbuto, ibinyomoro, amatunda biri mu isoko baba babijyanye ngo babigurishe ababikeneye kugira ngo babone uko barya imbuto, imbuto zongera intungamubiri.

Umurima urimo ibihingwa bikenera amazi, harimo igikoresho umuntu urimo kubivomerera ari kwifashisha, abihereza amazi. Kugira ngo bikure, bitange umusaruro ukwiye.

Igihingwa cya avoka ikiri nto, gihinzwe inyuma y'igipangu kirimo gukura cyitabwaho na nyiracyo kugira ngo kibashe kuzatanga avoka umusaruro ukwiye.

Ubucuruzi bw'imbuto, nk'amatunda, imyembe, amaronji n'izindi zigiye zifunze mu byiciro kuri buri bwoko, kugira ngo bize gufasha umukiriya kubona izo ashaka ndetse n'umuguzi kuzimuha mu buryo bwihuse.

Igitenge cy'amabara kirambitseho avoka ebyiri, umuntu agiye kwifashisha arya kugira ngo agire ubuzima bwiza bwirinde indwara ndetse n'imibereho ye igende neza.

Ubucuruzi bw'imbuto z'imyembe, amacunga, indimu n'izindi zirambitse mu byiciro kugira ngo bize gufasha ucuruza n'ugura kubona neza imbuto akeneye, ni nziza ku gufasha abazirya kugira ubuzima bwiza bwirinda ndwara.

Aha ngaha ni indabyo. Izi ni indabyo zifatwa nk'imitako cya se kugira agace runaka heza, ahantu hakaba heza. Hakaba ubusitani bukaba ahantu abantu baba bafatira amafoto, cyangwa se bikaba byanafasha ubutaka kurwanya isuri.

Ubucuruzi bw'imboga ndetse n'inyanya, hariho inyanya, karoti n'imiteja, birambitse mu byiciro biza gufasha umucuruzi n'umuguzi kubona neza ibyo akeneye. Byose bifasha umuturage kugira ubuzima bwiza no kurya indyo yuzuye.

Abahinzi bari mu murima uhinzwemo ibihingwa byabo, barimo kubyuhira bakoresheje amazi kugira ngo bigire ubuzima bwiza, bibashe gukura bibona amazi atuma byerera ku gihe, bikera umusaruro ushimishije.

Agace ko mu cyaro kagaragaraho ibimera, ndetse n'imyaka abaturage bahinze, amazu babamo, ndetse n'imisozi miremire byose bituma abahatuye barushaho kugira ubuzima bwiza.

Ihene iziritse ku giti hamwe ku kiraro aho iba yateganyirijwe kuba, akaba ari n'aho irira ubwatsi igihe batayizituye ngo bayijyane mu kinani kuyiragira, ubu ngubu iraryamye.

Ubworozi bw'amatungo magufi y'ihene, aho umubyeyi ari kuziha ubwatsi ndetse ku ruhande ahagaze umwana we na we kuzihereza ubwatsi kugira ngo zirye, zisubire mu kiraro, zitange umusaruro bashaka.

Ubworozi bw'amatungo y'inka ari mu kiraro, abaveterineri barimo kuyitaho, bayitera imiti kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza, itanga umusaruro uyoroye yayitezeho.

Abagabo batatu barimo viterineri ushinzwe kwita ku matungo, bafashe inka iri mu kiraro, bayifata umutwe, kugira ngo uwo mukozi abashe kuyiha serivisi ikwiye.

Inyamaswa ziba muri parike ziri ahantu hamwe zinywa amazi zirisha n'ubwatsi kugira ngo zikure, zororoke zigire ubuzima bwiza.